Abantu bakoraniye hamwe, bari ku mirongo, bamwe bagiye bafite imitaka bitwikiriye izuba, muri abo bantu bakaba bagiye bambaye imyenda igiye itandukanye, icyatsi, umutuku, ubururu n'u umweru, inyuma hakaba hagaragara ko hubabatse amashuri, hateye ibiti birebire bakaba bahagaze ahantu mu byatsi byiza.

Umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki, wambaye ishati y'umukara isaha y'umukara yambaye amadarubindi, inyuma ye hari intebe z'icyatsi, bigaragara ko ashobora kuba ari kubwira imbwirwaruhame abantu.

Umukozi ushinzwe umutekano, wambaye impuzankano ye, afite indangururamajwi mu ntoki, yambaye ingofero, bigaragara ko hari imbwirwaruhame ashobora kuba ari kubwira abantu bari imbere ye, inyuma ye hakaba hari umugabo wambaye umupira, ufite ibara ry'umweru n'ingofero y'umukara.

Umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki, uri ahantu bishobora kuba bigaragara ko ari nk'ahantu abantu baje kureba umupira bicara. Umugabo akaba yambaye ingofero y'umukara, yambaye ikote riri mu mabara y'umweru n'umukara, hasi akaba yambaye ipantaro yo mu amabara y'umukara. Iryo kote rikaba ririho ibendera ry'Igihugu.

Inama ihuza abayobozi ndetse n'abaturage, igakemurirwamo ibibazo ,hakabamo no kubaza ibibazo, noneho bihuza abayobozi ndetse n'abaturage bakabasha kungurana ibitekerezo ku kintu cyateza imbere.

Umukozi ushinzwe umutekano, uwo twite umupolisi, wambaye impuzankano y'umukara, ingofero y'umukara, akaba afite indangurujwi mu ntoki n'ikaramu, akaba ahagaze imbere y'imbaga y'abantu, bigaragaza ko hari imbwirwaruhame, ari kubahereza cyangwa se impanuro.

Abantu bicaye mu cyumba gifite amabara y'umweru mu nkingi zacyo, aba bantu bakaba bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, bamwe bambaye amabara y'umukara abandi umweru, abandi bambaye imyenda ifite amabara ajya gusa n'ivu, muri abo bantu hakaba hicayemo n'abashinzwe umutekano, abo dukunze kwita abasirikare bambaye n'impuzankano.

Iragaragaza abaturage bari mu nama bateze amatwi, inama bari kubagira, amahugurwa bari kubaha nibyo bari kubabwira. Urabona ko batuje ntagusaragurika buri wese ateze amatwi yumve icyo bari kumugi, bari kumubwira kugira ngo abashe kubyubahiriza.

Abantu bahagaze ahantu mu cyumba, abandi bicaye, abantu bambaye imyenda iri mu mabara y'umukara, umweru n'umutuku n'ubururu, bigaragara ko ahantu bahagaze hari, itapi y'icyatsi.

Buri gihugu kigira umucyo wacyo twavuga nk'imbyino, indirimbo, ururimi ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye bigaragaza umuco w'icyo gihugu, akenshi akenshi usanga ibyo bikoresho bikurura ba mukerarugendo bikigisha n'abanyeshuri bakabasha kubyigiraho.

Umugabo wambaye isaha, wambaye n'amadarubindi, akaba yambaye ishati ifite amabara y'ikigina n'umweru, abafite indangururamajwi, akaba yamwenyuye bigaragara nkaho hari imbwirwaruhame ari kubwira abantu, inyuma ye hakaba hari intebe z'icyatsi.

Abana b'abakobwa, bambaye imikenyero ya kinyarwanda, bambaye inigi nziza z'umweruru, bigaragara ko bahimbawe, bari kubyina imbyino za kinyarwanda.

Umugabo ufite umwirongi mu ntoki, umugabo akaba afite umusatsi ugaragara nk'aho ari mwinshi, akaba afatishije umwirogi amaboko ye yombi, bikaba bigaragara ko ashobora kuba ari kuvuza uwo mwirongi.

Inkongoro z'amata zifite imitemeri yazo bigaragara ko zabajijwe n'abahanga, ziteretse ahantu hamwe ku murongo, umurongo imbere hatetse eshatu, umurongo wazo ukomeza inyuma, bigarara ko izo nkongoro zabazanyijwe ubuhanga bwinshi.

Uyu n'umubyinnyi urimo kubyina ibyino gakondo z'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Izi n'ibyino gakondo zikunzwe n'abantu benshi batandukanye kuri iy'isi cyane cyane abanyarwanda zikunze gukorwa n'abanyarwanda kuko niwo muco wabo.

Abagabo babiri bafite imyirongi, bigaragara ko bashobora kuba barimo kuvuza iyo myirogi, abo bagabo bikaba bigaragarara ko bashobora kuba bakuzemo mu myaka, bakaba nta musatsi bafite.

Abantu bicaye hamwe, bateraniye hamwe, bambaye imyenda ifite amabara asa, hejuru bambaye imyenda y'umweru, iyo myenda ikaba ifite ikirangantego kigaragaza Igihugu cyacu, muri aba hakaba harimo ababyeyi, umubyeyi umwe akaba yiteze bya kinyarwanda mu mutwe.

Itorero rya kinyarwanda rigizwe n'ababyinnyi, ababyinnyi bambaye imyenda ya kinyarwanda higanjemo imyenda y'umweru, indi iri mu mabara y'umweru n'umukara, indi ni amabara y'umukara, abo babyinnyi abadamu bamwe barimo bambaye ingori cyangwa se urugori bakaba bafite ingoma n'imirishyo yazo inyuma yabo hakaba hari ibyatsi n'ibiti birebire.

Ababyeyi bari kubyina imbyino ya kinyarwanda, bambaye neza biteze ingori cyangwa se urugori muri make, bakaba bari kubyinira ahantu mu gisharagati, hasi hari ibara ry'icyatsi, hiryabo hari abandi bicaye, bigaragara ko bari mu bukwe, babahanze amaso bari kureba uburyo babyina neza.

Mubazi y'umuriro iri mu ibara ry'umweru, imibare iriho ikaba na yo iri mu ibara ry'umukara, umubare umwe ari wo uri mu ibara ry'umutuku, aho dusomera imibare hakaba harimo imibarwa itandatu, harimo: kabiri, karindwi, rimwe ebyiri, kabiri na zeru.

Ubukanishi n'umwuga utunze abantu benshi cyane kuri iy'isi ugasanga byigishwa mu mashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro ndetse bagakomeza no kwiga muri za kaminuza zitandukanye twavuga nko gukanika amashanyarazi, ibinyabiziga n'ibindi.

Inkingi zifatiraho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, izo nkingi zikaba ziri ku murongo umwe ugorotse, buri nkingi ikaba byifatiho insinga nyinshi, mu nsinga nyinshi hakaba hari abantu bamwe bicaye, abandi bari kugenda hakurya y'umuhanda aho izo nkingi zifatiye kuri buri ruhande hakaba hari ibiti n'imibyare.

Umuntu uhagaze ku rwego, ugaragara nkaho ari gukora umuriro. Twifashisha ducana mu ngo zacu mutabaranari kubikanika. inyuma ye hakaba hagaragara ikirere kijimye. Akaba yambaye igisureti cy'ubururu n'ingofero yifashisha kugira ngo birinde impanuka mu gihe haba habayeho nko kugwa.

Umuntu wuriye inkingi ifasheho amakamba atwara umuriro twifashisha mu ngo zacu, dusana, dukora ibikorwa bitandukanye, umuntu akaba yambaye ipantaro y'umweru, ishati yenda kuba ubururu, hasi hakaba hari undi uri kumureba wambaye ingofero isa n'ikigina cyangwa icyatsi kijimye, akaba ari kureba uko ari gukora ibyo bikorwa, hakaba hari ikirere kigaragara nk'aho cyijimye.

Umuriro w'amashanyarazi ni igikorwa remezo kiza, kuko gifasha abantu mu kubona amafaranga bakora imyuga igiye itandukanye. Twavuga nko kogosha, gusudira ndetse n'indi myuga myinshi itanga amafaranga kubera umuriro w'amashanyarazi.

Umukozi ushinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu ngo zacu, wambaye impuzankanori n'ibyamufasha kwirinda impanuka, harimo n'ingofero yabugenewe n'imyenda ariyo twita igisobeti, akaba ari kureba muri mubazi y'umuriro.

Abantu bigaragara nkaho bari gukora imirimo igendanye n'amashanyarazi, bambaye imyenda itandukanye; harimo abambaye impuzankano ifite amabara y'umuhondo n'ingofero z'umuhondo, hakaba hari abandi babiri bahagaze imbere yabo, batambaye impuzankano, umwe yambaye umupira w'ubururu, undi yambaye ishati y'ikigina.

Inkingi itwara umuriro w'amashanyarazi, ifatiyeho amakamba menshi akurura umuriro w'amashanyarazi, bigaragara ko ajyana mu ngo z'abantu. Hirya yazo hakaba hari icyapa cyanyanditseho amagambo agaragaza ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga umuriro w'amashanyarazi, icyapa kikaba gifashe ku modoka.

Abakozi bakora mu by'amashanyarazi buriye inkingi ifasheho ibyuma bitwara amashanyarazi, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, bakaba bambaye inyuma impuzankano ifite amabara y'umutuku uvanzemo ay'ikigina, ariko mo imbere bambaye imyenda y'igiye itandukanye umwe yambaye umuhondo, undi umukara undi umukara uvanze n'umweru urabona bambaye ingofero zibafasha.

Amatara yo kumuhanda afasha umuntu kwirinda impanuka kuko ibinyabiziga bigenda n'ijoro usanga abimurikira noneho bikagabanya impanuka. Ikindi kandi amatara yo kumuhanda afasha abagenzi bagenda bwije kurushaho kubona neza bakagenda amahoro.

Umuyoboro w'amashanyarazi ni igikorwaremezo cyiza kuko gifasha abaturage mu kwiteza imbere, hari imyuga imwe n'imwe ikenera umuriro w'amashanyarazi, twavuga nko gusudira, kogosha ndetse n'indi myuga myinshi, ifasha abaturage mu kwiteza imbere.

Muri iki gihe usanga iterambere riri kwihuta cyane, twavuga nk'amashanyarazi, imihanda ndetse n'amazi byegereye abaturage, ni yo mpamvu usanga ahantu hari amashanyarazi ibikorwa remezo byose byihuta ugasanga umuntu abashije gukorera amafaranga kubera hari umuriro w'amashanyarazi, kandi iyo bari kubaka n'iyo miyoboro y'amashanyarazi usanga hari kubonekamo akazi, abantu bakabasha gukuramo amafaranga

Hano ku mupaka uhuza u Rwanda na Uganda murabona n'umukuru w'igihugu ko nawe hariye mu buryo bw'ingendo cyangwa umutekano byose barafatanya.

Leta yubaka ibikorwaremezo bifasha abaturage mu kwiteza imbere twavuga nko kubaka ibiraro, imihanda ndetse no gukwirakwiza amashanyarazi mu baturage, aho usanga bifasha abaturage mu kwiteza imbere bakabasha kubona amafaranga, bakabasha gutunga imiryango yabo.

Abantu bahagaze imbere y'umurenge bambaye imyenda y'amabara atandukanye harimo abambaye imyenda yamabara y'umukara, abambaye imyenda y'amabara y'umweru hakaba harimo n'abambaye imyenda y'amabara ajya kuba icyatsi, bakaba bahagaze ahantu hagaragara neza, inyuma yabo hari inzu ifite ibirahure byiza n'iyo nzu muri rusange ikaba igaragara neza.

Muri iki gihe usanga ahanini cyane, abantu bakunda imyidagaduro na siporo, siporo ihuza abantu benshi, ituma abantu bishima, hari abantu baba badaheruka ibyishimo ariko iyo bagiye muri siporo barishima cyane bitagenda neza.

Abantu bigaragara ko ari benshi bakoraniye hamwe imbere y'ibiro bishinzwe kwakira abasohokana n'abinjira, abo bantu bakaba bambaye imyenda ifite amabara agiye atandukanye, bambaye imyenda ifite amabara y'umweru, umukara, umuhondo, umutuku, iyo nzu ikaba ikikizwe n'ibiti byinshi biyisumba hejuru yayo.

Ahantu bari kubaka ibikorwa remezo bigaragara nk'aho ari inzu, hakaba hari ibi ibikoresho bifashisha mu bwubatsi bitandukanye. Amamashini, inzego, abakozi, bakora iyo imirimo y'ubwubatsi ibyuma bifashisha bubaka, n'imbaho inyuma yaho, hakaba hagaragara nk'ahantu harambitse h'ikibaya h'imisozi itambitse.

Inzu iri mu irangi ry'ubururu hose, imbere yayo haparitse moto, imbere hakaba hanateye ibiti, harimo iby'imikindo, hejuru kuri iyo nzu bakaba bashushanyije, icyapa kigaragariza ibikorwamo, icyapa kikaba kiri mu mabara y'umweru, umukara n'ubururu.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana we umwana umwe ari kwigenza undi mwana muto akaba amuhetse mu mugongo umubyeyi akaba afite isakoshi mu ntoki bikaba bigaragara ko bashobora kuba bari kujya ahantu hameze nko ku kigo cy'amashuri cyangwa se ku ivuriro runaka, ivuriro rikaba rifite amabara y'ubururu rikaba rikikijwe n'ibiti.

Umubyeyi n'umugabo barikumwe bari kugenda, umubyeyi akaba yambaye ishati idoze mu gitenge ifite amabara y'icyatsi, umweru, n'umuhondo, umugabo akaba yambaye ishati iragaragara ko ifite ibara ry'umweru, umugabo akaba nta musatsi afite, umugore akaba afite umusatsi hirya ha bakaba hari ibyuma bifite amabara atandukanye.

Umuhanda ni igikorwaremezo cyifashishwa mu bwikorezi, twavuga nko gutwara abantu, ibintu ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, aho usanga umuhanda ufasha mu iterambere, ugasanga umuntu abonye amafaranga, binyuze mu muhanda.

Abantu bari mu isoko bafite ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo: inyanya, intoryi, ibirayi, ibitunguru, bamwe bicaye abandi bahagaze.

Inzu nini cyane iri mu mabara y'umweru cyangwa se umweru ujya gusa nk'ivu imbere yacyo hakaba hari yayo hakaba hari icyapa kerekana ibikorerwa muri iyo nzu, bigaragara ko iyo nzu ishobora kuba ikorerwamo n'uruganda handitseho inyange.

u Rwanda rwagize amateka mabi igihumbi kimwe magana icyenda miringo icyenda na kane hakorewemo ubwicanyi ndengakamere hagwamo abantu benshi kubera jenoside yakorewe abatutsi ari guhera icyo gihe abanyarwanda bafashe umwanzuro wuko bitazongera ukundi niyo mpamvu usanga buri gihe bibuka jenoside yakorewe abatutsi bakibuka izo nzirakarengane zahatakarije ubwo ubuzima.

Urwibutso rwa Jenoside rufite amabara atandukanye, rufite amabara y'ivu hakaba imbere yarwo handitsemo ijambo rigaragaza izina ry'urwo rwibutso, mu mabara y'umukara imbere yarwo hakaba hari ibiti bigaragara ko bacanye umuriro.

Urwibutso rwa jenoside rwubatse neza ruri mu mabara y'umweru n'ivu, bigaragara ko imbere yarwo hari ubusitani, hakaba hari n'abantu benshi bateraniye hamwe kubera ko bashobora kuba hari imibiri baje gushyingura mu cyubahiro.

Abagabo bane bahagaze hamwe, uwa gatanu hari kugaragara ukuguru atari kugaragara neza, muri bagabo batoniye hakaba harimo umukozi ushinzwe umutekano wacu wambaye impuzankano y'umukara, abagabo bambaye imyenda ifite amabara atandukanye ubururu, umukara n'kigina, inyuma hakaba hari ibyari umugabo umwe muri bo akaba afite inkoni mu ntoki.

Abantu bakoraniye hamwe barimo ingeri zitandukanye abasaza, abagore, abasore bicaye munsi y'ibiti, iruhande rwabo hari inzu ifite amabati y'ubururu, hanyuma ifite inzugi z'umutuku, umusaza umwe muribo afite mikoro akikijwe n'umugore n'umugabo umwe.

Abagabo babiri bahagaze umwe umuzungu undi ari umwirabura, umwe akaba yambaye ikote n'ipantaro y'umukara undi akaba yambaye ishati ifite amabara y'umweru uvanze n'umukara, undi yambaye ipantaro y'umukara, hirya hakaba ari umugabo utagaragara neza wambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umweru ijya kuba umukara, bigaragara ko bafite umukasi mu ntoki bagiye gukata akantu.

Abantu bahagaze hamwe bigaragara ko umuntu muri mwe ari kubagira inama cyangwa ari kubaha amabwiriza runaka bagenderaho, abo abantu bambaye imyenda y'amabara atandukanye, hari abambaye imyenda y'umweru. imyenda y'umutuku wambaye imyenda y'umukara, inyuma yabo hirya hakaba hari ishuri rikikijwe n'ibiti bigaragara neza, hirya urebye kure hakaba hari abagenzi bari kugenda mu muhanda.

Abanyarwanda bagira umuco mwiza, bagahurira hamwe bakungurana inama bagatanga ibitekerezo, bakagirwa inama y'uko babaho muri iyo nama dusanga yitabiwe n'inzego zitandukanye, inzego z'umutekano, iz'abayobozi n'izindi zitandukanye.

Ubwikorezi ahanini, usanga ari ikintu umuntu akuramo amafaranga, twavuga nko kwikorera imizigo ukoresheje ibinyabiziga, ahusanga ari imihanda myiza, ifasha abantu mu gutwara imizigo bayivana ahantu hamwe bayijyana ahandi na akabasha kubona amafaranga abatunga.

Ku mihanda haba hari ibyapa bigaragaza uko umuhanda uteye, agaca umuhanda urimo ndetse n'amerekezo y'uwo muhanda, aho usanga ibyo byapa biba biburira abashoferi uko bagakwiye kwitwararika bageze aho hantu.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'amazu ku mpande zombi. Hafi y'uwo muhanda mu ikona hakaba harimo umutaka w'umutuku. Bigaragara ko bashobora kuba bawucururizamo ibigendanye n'itumanaho no kohezanya amafaranga no kuyakira. Hakurya yaho hakaba hari inzu ifite amabara y'icyatsi. Imbere yayo hateye umukindo haparitse na moto.

Umuhanda ukikijwe n'utuyira tw'abagenzi, uteyeho icyapa kerekana guhagarara, iruhande rw'uwo muhanda hakaba hagaragara ibyatsi, ku rundi ruhande hakaba hagaragara ko hari urukuta rw'umweru, imbere y'urwo rukuta rw'umweru hakaba hari igiti kinini k'icyatsi, hejuru y'icyo gikuta hakaba hagaragara nk'aho ari umukara, ifoto ikaba igaragara nk'ahafashwe.

Ibinyabiziga n'ingenzi cyane mu mibereho ya muntu kuko bifasha kugenda ava ahantu hamwe ajya ahandi. Ahantu utabasha kugenda n'amaguru ikinyabiziga kirahagenda, ahantu ugenda amasaha abiri ikinyabiziga kihagenda iminota mirongo itatu. ibinyabiziga n'ibyiza kuko bifasha abaturage muri serivisi zabo zikihuta.

Imihanda ni ingenzi cyane kuko ifasha mu kugenda uva ahantu hamwe ujya ahandi. Mu muhanda dusanga hari ibyapa biranga ibyerekezo bikaranga ahantu umuntu ageze. Dusangayo n'amatara afasha mu kwirinda impanuka, amurikira imodoka ndetse n'abantu mu gihe bwije.

Icyapa giteye ku muhanda, kiri mu mabara y'umweru, umukara n'umutuku. Gishushanyijeho umuntu, kigaragaza aho abagenzi banyura batambuka, inyuma yacyo hakaba hari, ibiti birebire, kuri uwo muhanda.

Ku mihanda haba hari ibyapa bigaragaza agace uwo muhanda urimo, bikagaragaza n'amerekezo ugiyemo, ikindi kandi ibyo byapa biba bigaragaza uko umuhanda uteye, biburira abashoferi niba bahageze bakitonda cyangwa bakagabanya umuriro.

Abantu bakoraniye hamwe bambaye imyenda igiye ifite amabara atandukanye, harimo abambaye imyenda ifite amabara y'ubururu, icyatsi, umuhondo, umutuku n'umukara, bamwe bakaba bicaye abandi bahagaze, inyuma yabo hari imibyare hirya y'aho hakaba hari inzu ifite amabara y'umutuku hasi yenda kuba ikigina.

Uyu n'umupolisi, polisi ishinzwe umutekano cyane cyane mu muhanda, urabona ko ari gutanga impanuro ku banyarwanda, abapolisi bagira akamaro kenshi kuko barinda umutekano, ibinyabiziga, impanuka mu muhanda, biba biri mu nshingano zabo bagira n'igihe bafata bakajya kuganiriza abaturage.

Igihugu cyacu hakorerwamo imirimo itandukanye, hari aho dusanga bakorera mu mujyi, abakorera mu byaro, naho mu byaro hakorerwa ubuhinzi, ubworozi, ubwubatsi ndetse n'ibindi bitandukanye. Usanga abaturage bo mu cyaro bakora cyane kugira babashe kubona amafaranga atunga imiryango yabo.

Abanyarwanda bafite umuco mwiza wo guhurira hamwe bakaganira, abayobozi bakabagira inama bakabereka ibyiza byo gukora noneho bakabikurikiza ibintu bikagenda neza cyane.

Abantu bishobora kuba bigaragara ko bari gukora umuganda, muri aba bantu hakaba harimo umukozi ushinzwe umutekano, nawe twita umusirikare, wambaye impuzankano nawe afite isuka mu ntoki, bigaragara ko yifatanyije na bo muri icyo gikorwa bari gukora, inyuma yabo hakaba hari ibiti bimeze nk'urugo.

Abantu bari gukora igikorwa kimwe bigaragara ko bashobora kuba bari gukora nk'umuganda, muri abantu hakaba harimo abakozi bashinzwe umutekano bambaye impumpuzankano, hakaba harimo abasirikare n'abo dukunze kwita abadaso, ahantu bari akaba ari ahantu hateye ibiti birebire n'ubusitani burimo ibyatsi bigaragara ko bari kubikata.

Abantu bakoraniye hamwe, bigaragara ko bari gukora umuganda, aba bantu bakaba bambaye imyenda ifite amara atandukanye: Umutuku, umweru umukara bamwe muri bo bafite amasuka bigaragara ko bari gukora igikorwa cyabazanye muri bo hakaba harimo n'abantu bigaragara ko ari abashinzwe umutekano w'igihugu cyacu abo dukunze kwita abasirikare n' bigaragara ko bari gufatanya n'abo bantu inyuma yabo hakaba hari ibiti birebire.

Nk'uko bisanzwe bimenyerewe ku cyumweru cya nyuma cy'ukwezi haba umuganda rusange ,aho usanga witabiriwe abaturage abayobozi mu nzego zitandukanye ari iz'umutekano n'izindi zitandukanye ,aho usanga bakora ibikorwa bitandukanye hari ugufasha kubakira abantu batishoboye ,kubaka ibiraro ndetse no gusana imihanda aho yangiritse.

Abantu bicaye hamwe abandi bahagaze. Bambaye imyenda ifite amabara atandukanye. Imbere yabo hari umukozi ushinzwe umutekano, wambaye impuzankano, akaba yambaye ingofero. Impuzankano yambaye akaba ari umweru urimo amabara y'icyatsi. Bikaba bigaragara ko uwo mukozi ushinzwe umutekano hari impanuro cyangwa amategeko ari kubagira.

Abaturage usanga bafite umuco mwiza, umuco wo guhurira hamwe bakaganira, bakungurana inama, abayobozi bakabagira inama y'ibyo bakora na bo bakabyubahiriza, bakagira na gahunda yo kwidagadura bakabyina bakishimira ibikorwa bagezeho.

Abantu bicaye hamwe, ahantu mu byatsi, abandi bakaba bicaye ku ntebe, imbere y'umwe muri bo hakaba hari ameza arambitseho telefoni n'indangururamajwi. Muri aba bantu hakaba harimo umukozi ushinzwe umutekano, wambaye impuzankano y'umukara, undi akaba yambaye impuzankano ifite amabara y'icyatsi n'umukara, bigaragara ko umwe ari umupolisi, undi ni umusirikare, muri aba bantu abandi bambaye umweru, abandi bambaye umutuku.

Siporo ni ingenzi cyane ku buzima bw'umuntu kuko hari indwara zimwe na zimwe zikira kubera gukora siporo, twavuga nk'imivuduko ndetse n'umubyibuho ukabije. Ikindi kandi siporo ihuza abantu, igatuma abantu bishima.

Abakinnyi bari mu kibuga bari gukina, bambaye impuzankano zitandukanye, bamwe bambaye impuzankano z'umuhondo hose, abandi bambaye impuzankano z'ubururu, buvanzemo umweru bakaba bari gukina umupira ufite ibara ry'umweru n'umutuku, hasi mu kibuga hakaba harimo ibara ry'icyatsi aho bari gukinira.

Abantu bakoraniye hamwe bigaragara ko bashobora kuba bari mu myitozo ngororamubiri. Aba bantu bakaba bambaye imyenda ifite amabara agiye atandukanye. Higanjemo abambaye imyenda ifite amabara y'umweru, abandi umutuku, abandi umukara, abandi umuhondo. Hejuru yabo hakaba hari itara riri kubamurikira. Hirya yabo bigaragara ko hameze nko muri sitade cyangwa mu kibuga gikinirwamo umupira giteyemo ibyatsi by'icyatsi.

Abakinnyi b'umupira bambaye impuzankano zitandukanye, harimo abambaye impuzankano z'ubururu hose, abandi bambaye impuzankano hasi umuhondo, hejuru umweru, hagati yabo hakaba harimo umuntu ugaragara nk'umukozi ushinzwe umutekano w'abantu, bakaba bari mu kibuga hasi kigaragara nk'aho icyatsi inyuma yabyo hari hagaragara nk'aho ibyatsi byaho byumye.

Abakinnyi bari mu kibuga bari ku mirongo bishobora kuba bigaragara ko bari gukora imyitozo yo kugorora umubiri. Bambaye impuzankano iri mu mabara y'umukara hasi, hejuru umutuku. Icyo kibuga barimo kikaba kigaragara ko kirimo ibyatsi. Hirya hakaba hari amabara ari mu idarapo ry'Igihugu cyacu.

Siporo ni ingenzi mu buzima kuko ifasha abantu mu kwirinda indwara ndetse igahuza abantu, ikindi kandi siporo itanga ibyishimo, ku bantu bagiye batandukanye.

Abantu barimo gukina umupira bambaye imyenda y'amoko atandukanye harimo abambaye amapantaro hakaba harimo umukozi ugaragara nk'ushinzwe umutekano, bari gukinira mu kibuga kirimo ibyatsi byi'cyatsi inyuma yabo hakaba hari imibyare irimo ibiti birebire.

Mu gihugu cyacu hari gahunda nziza aho abayobozi begera abaturage bakaganiza bakumva ibibazo bafite, noneho ugasanga bari barabikemuye ndetse bakabagira n'inama uko babyitwaramo.

Abakinnyi b'iteramakofe, bambaye impuzankano iri mu mabara y'umutuku hose. Bamwe muri bo bakaba bambaye hejuru imyenda ifite uburu n'umweru. Undi yambaye ufite imyenda ijya gusa n'ivu. Bikaba bigaragara ko bari mu myitozo yabo.

Imikino n'ikintu cyiza cyane, kuko gihuza abantu benshi cyane, gitanga ibyishimo kandi gituma abantu bahura bagasabana, hari abantu baba badaheruka kwishima ariko iyo bageze mu mikino barishima cyane bakanabyina intsinzi.

Imikino n'imyidagaduro ni ikintu cyiza cyane bifasha guhuza abantu bagasabana bakishima aho usanga abantu badaraherukana ugasanga bahujwe n'imikino ndetse hari umuntu udaheruka ibyishimo ugasanga agiye kureba imikino arishimye akozwe na siporo kuko ni ingenzi ku buzima bw'umuntu.

Siporo n'ingenzi cyane kuko ihuza abantu, ituma abantu bishima, gukora siporo n'ingenzi cyane kuko hari indwara nyinshi birinda, umuvuduko w'amaraso ndetse n'umubyibuho ukabije, ikindi kandi siporo ituma abantu babasha kwishima cyane.

Abantu bicayeho barebera umupira, bahanze amaso imbere, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, bambaye imyenda ifite amabara y'umweru, abandi umutuku, abandi icyatsi, bamwe bambaye ingofero, abandi batazambaye, bigaragara ko bari kureba abakinnyi babo mu kibuga uko bari gukina.

Abakinnyi b'umupira bari mu kibuga bari gukina bambaye imyenda y'ubururu, umwe akaba yambaye ubururu burimo umweru, undi akaba yambaye ubururu burimo icyatsi, umwe akaba yambaye ubururu, ubururu burimo umweru yambaye amasogisi y'umutuku, undi yambaye amasogisi y'umuhondo, inyuma yabo hakaba hari ibiti n'amazu afite ibara ry'umutuku hejuru.

Abakinnyi b'umupira bari mu kibuga bambaye impuzankano isa ifite amabara y'ubururu n'ibara ry'icyatsi rikase mu gatuza, bakaba bambaye inkweto ziri mu mabara atandukanye n'amasogisi ari mu mabara atandukanye, ikibuga kirimo kikaba kirimo ubwatsi bw'icyatsi hakurya y'aho hakaba hubatse amashuri.

Imyidagaduro n'ikintu gihuza abantu benshi cyane, gituma abantu bagirana ubucuti, gihuza abantu mu mpande zitandukanye, ababuranye bakaganira, twavuga nk'umukino w'amaguru utera ibyishimo utuma abantu bahura bagakina bakishima...

Siporo ni ingenzi ku buzima bwa muntu kuko irinda indwara zimwe na zimwe twavuga nk'umubyibuho ukabije ndetse n'izindi ndwara zivurwa no gukora siporo, ikindi kandi siporo ihuza abantu igatuma abantu bishima.

Abantu bakoraniye hamwe bigaragara ko bari mu myitozo ngororamubiri ahantu mu kibuga bambaye imyenda igiye ifite amabara atandukanye, harimo abambaye imyenda ifite amabara y'umukara, ubururu, umutuku, umweru. Inyuma yabo mu kibuga ureba inyuma hakaba hari kugaragaramo ibara ry'icyatsi, hejuru mu kirere hari kugaragaramo ibara ry'umukara.

Abanyeshuri bakoraniye hamwe. Aba banyeshuri bakaba bambaye impuzankano y'icyatsi hasi, hejuru mu ika ifite ibarajya gusa n'umweru ariko umwe rutererutse itagaragara neza. Muri abo banyeshuri bakaba barimo abagiye bambaye indi myenda ifite amabara atandukanye, harimo abambaye umutuku hejuru, hakaba harimo na bamwe bikuye hejuru bambaye ubusa muri make.

Umugabo n'umugore bari kugenda baza, umugabo wambaye umupira w'ubururu, ipantaro y'ikigina, umugore wambaye umupira w'umuhondo, ipantaro y'umukara, hirya yabo hakaba hari umugabo uri kugenda abateye umugongo wambaye ishati y'umweru ipantaro y'umukara, hirya yao gato hakaba hari inzu ifite ibara rijya kuba umutuku bakaba bakikijwe n'ubusitani burimo indabo nziza.

Ubwikorezi ni ikintu cyafashe indi ntera, usanga hari ibinyabiziga byambukiranya imipaka, bivana ibintu mu gihugu kimwe bikijyana mu kindi. Kubera imihanda myiza usanga ubwo bwikorezi bukorwa neza cyane. Mu mihanda igizwe n'amatara n'imihanda igizwe na kaburimbo.

Umugabo utwaye igare mu muhanda, bigaragara ko igare rishobora kuba rihetse agasanduku karimo amacupa y'inzoga, hirya y'aho uwo mugabo hakaba hari inzu, ifite amabara y'umweru, imbere y'iyo nzu haparitse imodoka iri haruguru yayo, hari umugabo uri kugenda asatira iyo modoka.

Ingendo ziba nziza iyo hari imihanda myiza, ifite isuku ariko ibyo tubisanga mu mugi mu byaro habamo imihanda ariko kubera ibidafite isuku bagasanga ubwikorezi nta burimo kugenda cyangwa nta babyifuza.

Umuhanda wa kaburimbo, hakurya yawo hubatse inzu ishobora kuba ikinirwamo imikino tuzi nk'imikino y'amahirwe, iyo nzu ikaba ifite irangi rijya kuba umutuku weherutse, ikaba ikikijwe n'izindi nzu z'umweru. Hakurya urebye hejuru y'iyo nzu hakaba hari ibiti birebire.

Abagabo bari kugenda mu muhanda babiri, umwe yambaye ingofero undi atayambaye, umugabo wambaye ingofero yambaye ishati y'ikigina, ipantaro y'umukara, undi akaba yambaye ipantaro y'kigina, umupira w'icyatsi, hirya hakaba hari ibiti birebire n'amazu afite amabara atandukanye.

Muri iki gihe usanga iterambere riri ku isonga, twavuga nk'amashanyarazi, imihanda ndetse n'ibindi bikorwaremezo bitandukanye, aho usanga imihanda idufasha mu bwikorezi, ugasanga ibicuruzwa biri kugenda ahantu hatandukanye mu gihe gito kandi vuba.

Umuhanda mutoya uciye hagati mu mirima iteyemo ibihingwa bigiye bitandukanye, bigaragara ko ibyo bihingwa bigize nko hagati bikura. Hirya aho ngaho muri uwo muhanda, hakaba hari abantu bari kugenda basa n'abatagaragara neza, n'ibiti birenga birebire bikeya biteye muri iyo mirima.

Aba motari babiri bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo bagenda ku murongo umwe. Inyuma yabo bakurikiwe n'imodoka. Hirya yabo gato hakaba hari abandi ba motari babiri nabo baparitse ama moto yabo. Hirya urebye usanga hariyo inzu zigiye zitandukanye, zifite amati y'ubururu hejuru izindi z'umuhondo.

Iterambere ni ryiza cyane usanga ahanini rigaragazwa; n'imihanda, amashanyarazi ,amazi, mu cyaro niho usanga hatari imihanda myiza ariko mu mujyi haba hari imihanda myiza igaragaza iterambere abaturage baba baragezweho ,ariko n'iyo mihanda mibi ntibuza abaturage kugenda kuko nayo ikorerwaho ubwikorezi butandukanye.

Mu Gihugu cyacu usanga iterambere ryihuta twavuga nk'amashanyarazi ndetse n'imihanda. Mu byaro usanga harimo imihanda nubwo iba itameze neza, ariko usanga ari imihanda y'imigenderano ifasha abaturage mu bwikorezi, bava ahantu hamwe bajya ahandi.